Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bahuriye hamwe aho bari mu nama higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bakaba bari mu nama y'ukuntu bakwiteza imbere ndetse bagateza imbere n'ubuvuzi.

Umugabo wambaye ikote ry'ikositimu akaba afite indangururamajwi mu ntoki, inyuma ye hari icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse cyanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu avuga ngo shora mu Rwanda.

Umugabo wambaye agapira k'umukara n'umutuku, akaba afite indangururamajwi mu ntoki ari kuvuga ari mu nama abari aho na bo bamuteze amatwi ngo bumve ijambo ari kubagezaho.

Umugabo uhagaze ku ruvugiro wambaye agapira k'umweru karimo uturango tw'umukara akaba yambaye n'ipantaro y'umukara bigaragara ko ari gutanga ijambo ku bantu bose bitabiriye inama.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe aho bari mu nama higanjemo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bakaba bari kubyina bishimye cyane banezerewe ku buryo umuntu wese yabishimira ubibonye.

Abantu benshi bahuriye hamwe, biganjemo abagabo, aho bahagaze imbere y'ahantu hatatse, mu mabara y'ibendera ry'u Rwanda, inyuma yabo handitsweho ngo "inama mpuzamahanga y'akarere ka Nyagatare.

Icyapa kiri mu mabara agiye atandukanye kikaba kiri kwerekana amashusho y'abantu bagiye batandukanye, aho bamwe bari mu nama n'abandi bicaye bari mu nama bari kuyikoresha.

Umuco nyarwanda ukomeje gusigasirwa aho muri iki gihe hari ababyinnyi baba bari ahantu mu bukwe maze bakajya babyina neza, ubukwe bukagenda neza cyane aho baba bari no guseka.

Umugabo wambaye ishati y'umweru akaba akenyeye agatenge ,bigaragara ko ari umuntu ufite umuco nyarwanda agiye kubataramira avuga amazina y'inka.

Umuco nyarwanda umaze gukwirakwira hose mu Rwanda aho mu bukwe hasigaye haba hari intore zabyigiye ziza zikabyina indirimbo z'umuco nyarwanda maze abantu bari aho bose bakishima.

Ahantu habereye ubukwe mu gitaramo aho hari intore ziri kubyina zihamiriza bigaragara ko zishimye hari n'abandi bantu bari kuzireba bazikomera amashyi kubera ubuhanga bwabo mu kubyina.

Inka z'inyambo ni ingenzi cyane kubera ko umuntu uzoroye, zimuha umusaruro ndetse zikaba na zimwe mu ziranga umuco nyarwanda kuko zabaga ari nziza cyane.

Ahantu hari akapa kari mu tubara tw'umweru ndetse n'umukara, aho utu tubara dukunze kuba dutatse ahantu habereye ubukwe kugira ngo habe hari kugaragara neza.

Umuntu wize ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi, yuriye igipoto none ari kugenda azirika insinga kumapoto kugirango arebe ko byatanga umuriro uhagije.

Umugabo wambaye agapira k'umutuku akaba ari ahantu ku nyubako aho ari kumanika mubazi ku nzu bigaragara ko ari guha umuriro abatuye aha hantu.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyi nyubako iteye amarange y'umweru ku bikuta ndetse ikaba ifite n'utwuma dusa umuhondo tuyikikije twiza cyane.

Ahantu hari inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho izo nyubako zisakaje amabati y'umutuku, hakaba hari n'ipironi rirerire ritwara umuriro w'amashanyarazi riwujyana kuri izo nzu.

Inyubako irimo agakoresho kari mu mabara y'umutuku n'umukara kazwi nka mubazi, kakaba kifashishwa mu gupima umuriro w'amashanyarazi wakoreshejwe kugira ngo bamenye amafaranga yishyurwa.

Inyubako nziza ifite urukuta ruteyeho agasanduku karimo mubazi nyinshi zigiye zitandukanye zifashishwa mu muriro w'amashanyarazi, aho ziri mu mabara y'ubururu, umutuku ndetse n'umukara.

Imashini yabugenewe iri mu mabara y'icyatsi n'umweru, aho iyi mashini ari ingirakamaro cyane ku buryo ibasha gukurura umuriro w'amashanyarazi ikawugeza ku baturage bari mu duce tugiye dutandukanye.

Umugabo wambaye isarubeti y'ubururu, akaba yambaye agapfukamunwa n'ingofero y'umweru, akaba yarizeye ibijyanye no gukanika umuriro w'amashanyarazi, akaba ari ahantu imbere y'urugomero, arikureba ikibazo cyaba gihari ngo abe yagikemura.

Abantu bize ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi, bakaba bambaye ingofero z'umweru n'utujuri twabugenewe, bakaba bari ahantu, aho bari gusuzuma niba hava urugomero rwiza cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, akaba ari ahantu hari urugomero rw'umuriro w'amashanyarazi, aho bawifashisha bawushyira abaturage batuye mu ngo zagiye zitandukanye.

Ahantu mu rusisiro, aho hari ipoto ritwara umuriro w'amashanyarazi, tuwugeza ku baturage bagiye batandukanye, aho haba hariho insinga ndende, zitwara uwo muriro.

Ahantu hari urugomero rw'umuriro w'amashanyarazi, aho hari ibikoresho by'ibyuma byinshi cyane bagenda bifashisha, bari kwita ku muriro w'amashanyarazi kugira ngo babashe kuwugeza ku baturage.

Ipironi rirerire rikaba riri ahantu rikikijwe n'uruzitiro rw'ibiti ndetse hari n'akazu k'umweru gafite amabati y'ubururu bigaragara ko hakorera sosiyete ya REG.

Icyapa kigaragaza ko ari ku mupaka w'u Rwanda ndetse n'Igihugu cya Uganda, aho hari icyanditseho ngo Repubulika y'u Rwand, hakaza n'ikindi cyanditseho ngo urugendo ruhire.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, ikaba isakaje amabati y'ubururu, hejuru hakaba handitseho ngo ibiro by'Umurenge wa Katabagemu biherereye mu karere ka Nyagatare.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho aho zubakishije amatafari ahiye, zisakaje amabati meza cyane zikaba ari inyubako z'ikigo cy'amashuri abanza.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyo nyubako ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru ndetse kikaba ari igikorwa cya Leta yakoze.

Umugore wajyanye umwana we kwa muganga, asanga abaganga barahari, maze baramuvura umwana ahita akira, inyuma ye hari inyubako nziza y'ivuriro, iteye amarangi y'ubururu.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iteye amarangi y'icyatsi, ikaba ifite imiryango igiye itandukanye, iyi ngiyi bukaba ari ubuhunikiro.

Umugore uri kugenda ku kiraro k'ibiti aho afashe umwana we akaboko kugira ngo ataza kugwamo kuko iki kiraro kirasa n'igishaje kubera ko kimaze igihe kinini cyubatswe.

Ikiraro kirekire cyane, kikaba ari ikiraro giherereye ahantu mu karere ka Huye, cyambukiranya imisozi ibiri, ku buryo abantu banyuraho batabanje guca mu gishanga.

Abantu benshi cyane bari muri sitade, aho bari kugenda bakora imyitozo ngororamubiri bishimira ko bubakiwe sitade nziza, none bakaba basigaye bareba umupira neza.

Inyubako nziza cyane y'ikigo nderabuzima, aho isakaje amabati y'ubururu yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifite ikigega cyiza gitangira amazi ndetse n'inzira ishashemo amapave.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugiye butandukanye bwa kijyambere, aho iriho icyapa kiriho ikirangantego cy'u Rwanda, hakaba hariho n'amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza mu ibara ry'ubururu.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, aho imbere hateraniye abajyanama b'ubuzima bagiye batandukanye, bakaba bari gukoma mu mashyi bishima cyane, imbere hari umugabo uhahagaze arimo kugenda abafotora.

Inyubako nziza cyane ishaje ifite inzugi z'ubururu, imbere yayo hari icyuma kiriho ibendera ry'u Rwanda bigaragara ko ari ku kigo cyamashuri aho abanyeshuri bigira.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho zisakaje amabati y'umutuku ndetse zikaba ari inyubako nziza cyane kubera ko zitangirwamo serivise zigiye zitandukanye z'ubuvuzi.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kugendwamo n'imodoka nziza cyane, aho iyi modoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, maze ikabageza aho bagiye ku mafaranga make.

Igicumbi kiri mu ibara y'umweru, kikaba gishushanyijeho ikirangantego cy'u Rwanda, uduseke tubiri ndetse n'ibendera ry'u Rwanda riri mu mabara y'ubururu umuhondo ndetse n'icyatsi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba bicaye ahantu bari mu nama aho hari ibiti birebire bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi, ibi biti rero ni ingenzi cyane.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bakaba bicaye ahantu muri sitade bari kureba umupira, aho bishimye cyane higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Ahantu hateraniye abantu benshi cyane bagiye batandukanye aho baje mu gikorwa cyo kwimakaza no gusigasira uburenganzira bwa muntu ndetse no guteza imbere ubutabera mu gihugu cy'u Rwanda.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe higanjemo ab'igitsina gore n'igitsina gabo, bakaba bari mu nama aho harimo n'abana bato, imbere hari umugabo ufite indangururamajwi ari kugenda abagezaho iryo jambo.

Umugore wambaye imikenyero y'icyatsi n'ubururu, akaba afashe indangururamajwi mu ntoki ari kuvuga ndetse yambaye n'amadarubindi, iruhande rwe hari undi mugore ndetse n'umugabo.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, bicaye bari mu nama, imbere y'abo hari umugabo uhagaze, ufite indangururamajwi mu ntoki ari kubagezaho ijambo, hakaba hari n'ibiti binini cyane.

Abantu bagiye batandukanye, bateraniye hamwe aho bari kuganira, biga ukuntu bateza imbere uburenganzira bwa muntu ndetse bagaharanira n'ubutabera mu bantu bose.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bateraniye hamwe aho higanjemo igitsina gabo n'igitsina gore, bakaba bari mu nama yiga ku buryo ki bateza imbere ubutabera n'akarengane bakakarinda.

Aho bigishiriza imodoka haba hari imodoka nyinshi zigiye zitandukanye, aho izi modoka umuntu wese ushaka kwiga agenda akishyura amafaranga bakajya baramwigisha kugeza igihe abimenyeye.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo moto ikaba ihagaze ,bigaragara ko umumotari wayo hari umugenzi agiye gutwara. Iruhande rwe hari icyapa cyerekana ko umuntu uhageze aba agomba kugenza make.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ikinyabiziga k'igare, aho umuntu agitwaye asunitseho amoko menshi y'intebe, bigaragara ko atwaje umuntu wimutse ku igare rye.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru, kikaba gishushanyijeho inyubako nziza cyane, kiri iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, ufite akandi gahanda kawushamikiyeho, bigaragara ko ari ahantu heza.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti byinshi cyane bitanga umuyaga n'amahumbezi, aho ari icyapa kiri mu mabara y'umukara kerekana ko uwo muhanda imbere yawo hari udushami tubiri dushamikiyeho.

Umuhanda wa kaburimbo urimo icyapa kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umukara, kikaba ari icyapa ndangabyerekezo kerekana ko imbere ku muhanda hari ikindi gihanda kihashamikiye.

Icyapa kiri mu mabara agiye atandukanye y'icyatsi ndetse n'umweru, kikaba gishushanyijeho umusaraba giteye ahantu mu busitani bigaragaza ko bari kutwereka ko imbere hari urusengero.

Umuhanda wa kaburimbo ,ukikiwe n'utuyira tw'abanyamaguru, aho bigaragara ko bwije amatara ari kwaka ,hariho n'ibiti birebire bitwara insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Ahantu hari umuhanda wa kaburimbo, hariho akapa kari mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru kerekana ko hari inzira abanyamaguru bambukiraho ahagana imbere.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo akarongo k'umuhondo, ukaba uri kugendwamo n'umusore usunitse igare bigaragara ko uwo musore ari kugenda kandi ahetseho agafuka.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kugendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, aho imbere hari moto icanye amatara, ikaba iri kugenda mu muhanda yihuta cyane, bigaragara ko ari mu masaha ya nijoro.

Imodoka iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, aho iyo modoka iteye amarangi y'umweru, ikaba irimo umushoferi, aho itwaye ibinyabiziga ibijyanye ahandi.

Imodoka ya Coaster ihagaze ahantu, ikaba iri kugenda yitonze gake gake, aho itwara abantu mu buryo bwa rusange ndetse ikaba ari ingirakamaro cyane.

Umuhanda wa kaburimbo urimo akayira abanyamaguru bambukiramo karimo imirongo iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, aho ikinyabiziga kihageze gihagarara kugira ngo bambuke.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, higanjemo abakobwa n'abasore, abagore ndetse n'abagabo, bakaba bose bishimye, inyuma yabo hari insina zifite amakoma matoya cyane.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe mu gikorwa cy'umuganda, bakaba bari kugenda bahinga bigaragara ko bari gusiza umuhanda, harimo abasirikari ndetse n'abaturage bagiye batandukanye.

abantu babiri bahagaze bafite ibyapa mu ntoki byanditseho ngo <<gerayo amahoro>>, imbereye hagati yabo hakaba hahagazemo umupolisi ufite indangururamajwi ari kubasobanurira akamaro kabyo.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, bahuriye hamwe bari mu gikorwa cy'umuganda, aho bari kugenda bahinga, harimo n'abasirikare babiri ndetse n'abaturage, aho bifatanyirije hamwe.

Umugabo uhagaze wambaye isaha ku kuboko, yambaye amadarubindi, akaba yambaye n'ingofero, afite indangururamajwi mu ntoki, aho ari kugenda atanga igitekerezo.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bari mu nama aho hari umukobwa uhagaze imbere yabo wambaye amadarubindi mu gahanga, ufite indangururamajwi mu ntoki ari kubaririmbira na bo bamukurikiye.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru aho bari kugenda mu kibuga hari umwe w'umukobwa wambaye iby'ubururu ari kugenda abacenga abandi na bo bamwatakaka kugira ngo ataza kuba yabatsinda.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru, aho harimo umusore wambaye umupira w'umuhondo n'ikabutura y'umuhondo, akaba afashe umupira ari gucenga bagenzi be, na bo biteguye kumwataka.

Umuhanda wa kaburimbo, unyurwamo n'amoko agiye atandukanye y'ibinyabiziga, aho hari kugendamo imodoka n'igare , inyuma hakaba hari abantu benshi cyane bari kugenda biruka kuri mucaka n'amaguru.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bateraniye hamwe bari mu kibuga, aho bari kubanza gukora imyitozo kugira ngo babone gutangira umukino maze bakabona gukina.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe aho bari mu gikorwa cyo gukora imyitozo ngororamubiri, biganjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo aho imbere yabo hari umuntu uri kugenda abatoza.

Abantu bari mu kibuga aho bari gukina umupira w'amaguru bambaye imyambaro iri mu mabara y'umuhondo, aho hari umugore w'umusifuzi uri guhereza umukinnyi umupira ngo atangize umukino.

Abantu bari gukina umupira w'amaguru bakaba bambaye imyambaro iri mu mabara y'icyatsi ndetse n'ubururu, bakaba bambaye n'amasogisi y'umweru bari kugenda mu kibuga aho haparitse na moto ruguru yabo.

Abakinnyi bambaye imyambaro y'umuhondo biganjemo abagabo, aho bari mu myitozo ngororamubiri bahagaze hagati mu kibuga bitegura ko umusifuzi atangira umukino hanyuma bagakina.

Abantu benshi cyane bicaye muri sitade, aho bari kureba umukino w'umupira w'amaguru, harimo udutebe tw'ubururu twabugenewe, abantu baje kureba umupira bicaraho maze bakihera ijisho.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bari mu kibuga, aho bari gukina umukino w'umupira, hakaba harimo umwe wasimbutse hejuru cyane, akaba ari gushyira umupira ku mutwe kugirango ahereze mugenzi we ajye gutsinda.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, aho hari abantu bari kugenda mu muhanda bari kuri mucaka bari kwishima bigaragara ko bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo uri kugenda mu kibuga yambaye umupira w'umuhondo n'ikabutura y'umuhondo n'amafigisi y'umuhondo, akaba ari gukina umupira aho ari kugenda acenga abantu muri sitade.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bakaba bahuriye hamwe bari mukibuga, aho bari gukina umukino wumupira wamaguru, bakaba bambaye imyambaro igiye itandukanye, iri mu mabara y'ubururu n'umutuku.

Abakinnyi benshi bagiye batandukanye aho bari mu kibuga bigaragaza ko bagiye gukina umupira w'amaguru, bambaye impuzankano ziri mu mabara y'ubururu ndetse n'amasogisi y'umweru hakaba hari n'intebe nziza cyane muri sitade.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru aho bahuriye hamwe mu kibuga bari gukina none, umwe ageze mugenzi we akaba aguye umusifuzi ari kuza hafi aho ati mugomba kubona penaliti.

Ahantu hari ubutaka bwiza cyane, bigaragara ko ari mu cyaro, bukaba bugaragaza ko ari umuhanda unyuramo ariko utanyurwamo n'ibiziga byinshi cyane, bigiye bitandukanye.

Umudugudu unyuramo umuhanda wa kaburimbo, aho uwo muhanda nta binyabiziga byinshi bikunda kunyuramo kubera ko nta hantu byaba biri kugana, ahubwo hanyuramo abahinzi igihe baba bagemuye imbuto zabo.

Imodoka y'ubururu ifite amapine, ikaba iri kugenda ahantu hari amapave meza cyane, iyo modoka ikaba itanga serivise zigiye zitandukanye, by'umwihariko izerekeranye n'ubuvuzi.

Imodoka bigishirizaho abanyeshuri gutwara ikaba iri ahantu mu kibuga, aho harimo itaka ryinshi cyane nta kaburimbo irimo. Igihe cyose wifuza gutwara imodoka wajya kwigira aha ngaha.